Kwa muganga, aho bakirira indembe zikeneye kuvurwa vuba, hari abantu benshi cyane higanjemo ab'igitsina gabo, barembye cyane, baje kwivuza byihutirwa. Hirya haparitse imodoka.

Mu murima urimo ibiti, harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore bafite amasuka bari guhinga, inyuma y'umurima hari inzu isize irange ry'umweru izitira na senyenge.

Kwa muganga hari abantu benshi harimo babiri bicaye mu tugare tw'abafite ubumuga bw'ingingo bambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umukara n'udupfukamunwa, imbere yabo hateretse icupa ry'amazi rya sosiyete y'Inyange, inyuma yabo hahagaze abantu b'igitsina gabo babiri.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'imodoka itwara abarwayi, biragaragara ko baje gufasha abarwayi barwariye muri ibyo bitaro, baje kubaha amavuta, ibikoresho by'isuku n'ibindi byinshi.

Hanze haparitse imodoka y'umweru y'imbangukiragutabara. Aho itwara abarwayi bagiye batandukanye. Hirya yayo hahagaze abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragare ko ari ibitaro bihaye imbagukirarutabara.

Kwa muganga ahazwi nko muri irijance bakira indembe, haragaragara abaganga bagera kuri batatu, buri umwe afite ibyo ahugiyemo, bambaye imyenda yabugenewe ndetse urabona n'amamashini agiye atandukanye, abafasha kwita ku murwayi.

Kwa muganga ahavurirwa abarwayi b'indembe, harimo abantu batatu, babiri b'igitsina gabo, umwe wambaye ijire ya kake n'undi muntu w'igitsina gore wavunitse akaboko, bari kumuvura.

Inyubako yo kwa muganga nini isize irangi ry'umuhondo, muri parikingi haparitse imodoka itwara abarwayi yanditseho ambulance, hari n'icyapa kinini cyanditseho Nyagatare District Hospital.

Mu cyumba cyo kwa muganga bavuriramo indembe harimo ibyuma byinshi cyane bifasha kuvura abarwayi. Hariho umuntu w'igitsina gore wambaye mu ntoki z'umweru n'ingofero n'itaburiya, imbere ye hateretse igikombe cy'umuhondo n'agacupaka ka sosiyete y'Inyange.

Abantu benshi higanjemo ab'igitsina gabo bo kwa muganga hari n'imodoka y'imbangukiragutabara yanditseho koro magana acyenda na cumi na kabiri mu gihe uyikeneye ije gutwara umurwayi w'indembe kugira ngo bajye kumuvura.

Mu muhanda w'igitaka harimo ikinyabiziga cy'imodoka ifite ibara ry'umweru n'umutuku iriho n'umusaraba, yanditseho (Rwanda red cross) igemura amaraso ahantu hatandukanye.

Hanze hahagaze abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'umweru n'amapantaro cyangwa ijipo y'umukara bamanitse amaboko bari kurahira, inyuma yabo hari igishararagati gifite ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, bose bafite indangururamajwi, imbere yabo ku gikuta handitseho nyagatare mirongo icyenda na gatanu akadomo gatanu fm hafi yawe r b a mu ibara ry'ubururu.

Mu muhanda harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo bafite icyapa kinini cyane cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Gatunda. Inyuma yabo hari amazu menshi, hari n'ubusitani bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abana abiri b'igitsina gabo, umwe w'umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru n'undi wambaye ingofero n'ishati y'ubururu bwijimye, bari kumupima umuvuduko w'amaraso, hirya hari akabati karimo imiti itandukanye, ku meza hateretse n'umuti wica mikorobe.

Kwa muganga, hari umuntu wambaye ga z'umweru, ufite n'ibikoresho bivura, igihe umuntu yakomeretse, harimo umukasi, urushinge, ibipfuko, ipamba, n'ibindi byinshi.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari uwambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa bambaye na ga mu ntoki zabo, inyuma yabo hari umuntu w'igitsina gore uri gusasira umuntu w'umurwayi.

Mu kibuga kinini cyubakishije amapave, hahagazemo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, hari abafite impapuro mu ntoki zabo, inyuma yabo hari imodoka itwara abarwayi y'imbangukiragutabara bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kwa muganga ahari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, basohoye utubati bashyiraho ibikoresho abarwayi, bari kudukorera isuku.

Kwa muganga ndahabona kimwe mu byumba bakiriramo abarwayi bahaye ibitaro, ndabona ari icyumba kiza cyane kuko kiba hafite supaneti zihagije, hafite n'isuku y'ibitanda bimeze neza ndetse n'abarwayi babagemuriramo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Inzu nini kandi nziza y'ibitaro bya Gatunda, hanze hari inkingi eshatu, imwe iriho idarapo ry'Igihugu rigizwe n'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi, ari mu modoka itwara abarwayi y'ambilanse, hirya hari umuntu w'igitsina gore kandi hari n'ubusitani bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batatu: umukobwa umwe n'abandi babiri b'igitsina gabo bambaga mu ntoki zabo, bari gusohoka mu nzu y'ibagiro, aho babagira abarwayi barwaye indwara zitandukanye.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho batangira imiti hari umubyeyi w'umugore ufite n'umwana n'abandi baganga babiri umwe ari kwandika muri mudasobwa n'undi ari gushyira imiti mu dushashi yatwo kugira ngo ahe uno mu mama ufite umwana.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, bafite icyapa imbere yabo cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, hari n'abagabo babiri bahagaze imbere bambaye imyambaro y'abaporisi bafite n'imbunda, hejuru hari icyapa kinini cyanditseho Nyagatare disitirikiti hosipito.

Imbuga yubakishije amatafari yo mu bwoko bw'abapave, hahagaze abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, inyuma yabo hari imodoka y'imbangukiragutabara, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari ishyamba riteyemo ibiti n'ubusitani bwiza.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi bikoreshwa bavura umuntu harimo intebe yo kwicaraho isa ubururu n'igitambaro kiryamaho umurwayi mu gihe arwaye bari kumuvura.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo, igitsina gore, ndetse n'abana baje kwaka serivisi yo kuvurwa, ni aho bakira abagana kugira bajye guhabwa serivisi n'abaganga bazobereye.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo abicaye n'abahagaze, harimo abambaye amataburiya y'icyatsi bari gutanga ibinini bivura indwara zitandukanye.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abantu benshi b'igitsina gabo, harimo uryamye ku gitanda, urwaye n'abandi bahagaze harimo umuganga uje kumuvura, hirya hari ameza ateretseho mudasobwa.

Ahazwi nko kwa muganga, haragaragara umwe mu barwayi baje kwa muganga, bakaba baryamye mu gatanda k'umurwayi, ndetse hakaba hari n'umuganga uri kumwitaho w'igitsina gore.

Kwa muganga hari icyumba cy'urubyiruko kicayemo abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ya Sosiyete y'Inyange n'umuti wica udukoko mu ntoki, hari n'umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo, inyuma yabo haranditse ngo: "Rurubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu".

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi bavurirwa, harimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwari kuvura indwara, igitanda baryamaho, intebe, aho bakarabira intoki ndetse n'ibindi bikoresho byinshi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abaganga benshi cyane, barimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amadarubindi bambaye na gamu mu ntoki zabo, bari kuvura umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye, igitanda, intebe zo kwicaraho ndetse n'agakarabiro bakarabiraho iyo bagiye kuvura abarwayi, n'ibindi bikoresho byinshi.

Kwa muganga muri laboratwari, aho bapimira ibizamini bitandukanye, harimo inkari, umusarani n'amaraso, harimo umuntu w'igitsina gore, witeze igitambaro cy'umukara, wambaye agapfukanwa n'itaburiya y'umweru na ga z'ubururu, imbere ye hari imashini, ari gupima ibizamini byabarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga muri raboratwari, aho bapimiramo ibizamini bitandukanye, umusarani, inkari n'amaraso, harimo akantu kabugenewe, bashyiraho ibizamini by'amaraso, bagiye gupimamo indwara zirimo, hari na microscope bakoresha bareba, mikorobe ziri mu kintu.

Kwa muganga icyumba cya laboratwari aho bapima ibizami bitandukanye harimo amaraso, inkari n'umusarane, kugira ngo barebe indwara umuntu arwaye, harimo ibikoresho byifashishwa bapima byinshi.

Muri laboratwari, aho bapimira ibizami bigiye bitandukana, harimo umuntu wambaye ga z'ubururu, ufite ikizamini cy'amaraso mu ntoki ze, agiye kugishyira muri mayikorosikopi ngo arebe indwara arwaye.

Kwa muganga mu cyumba cya raburatwari aho bapimira ibizami bitandukanye harimo inkari, umusarane n'amaraso kugira ngo barebe indwara umuntu afite, harimo umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru na ga ebyiri z'umweru ufite urushinge, inyuma ye hari aho abarwayi baryama.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyo muri raboratwari aho bapimira ibizami byinshi bigiye bitandukanye harimo umusarani inkari n'amaraso hari ibizamini byinshi biri mu kantu kabugenewe by'amaraso bategereje gupima ngo barebe indwara zirimo.

Kwa muganga aho bafatira ibizami by'abarwayi ba SIDA, umuganga wambaye ga mu ntoki ze, afite aho bafashe ibizamini by'amaraso kugira ngo batesitinga nimba baba bafite ubwandu bwa sida.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahazwi nko muri laboratwari bapima ibizami bitandukanye harimo umusarani, inkari n'amaraso harimo umuntu w'igitsina gore wambaye itabuririya y'umweru na ga ufite ibizamini mu ntoki ugiye kubipimo.

Kwa muganga ahazwi nko mu cyumba gifatirwamo ibizamini bigiye bitandukanye by'indwara zigiye zinyuranye, hagaragara abaganga batatu bari kumwe, babiri muri bo bicaye ku ntebe, undi abahagaze hagati.

Ahazwi nko muri laboratwari bapimira ibipimo bigiye bitandukanye, ni ukuvuga aho bashobora kumenya igihingwa cyangwa gufata amaraso y'umuntu bakamenya uko umuntu ahagaze ndetse n'indwara yaba afite.

Mu cyumba cyo kwa muganga, muri raboratwari, harimo abantu benshi cyane, harimo abakobwa n'abahungu, bari guhugurwa, uburyo ibikoresho byo muri raboratwari bikoreshwa.

Muri laboratwari ahapimirwa ibizamini bitandukanye, harimo icy'inkari, umusarani ndetse n'amaraso; harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye itabura y'umweru, agapfukamunwa, na Ga, ari gupima ikizami. Hirya ye hari imashini zitandukanye.

Igishararagati cy'umweru gifite amabara y'icyatsi harimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bambaye imipira y'icyatsi bari gucinya akadiho bishimye.

Munsi y'igiti hicayemo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, hari umuntu w'umugore uhagaze imbere yabo, wambaye umupira w'icyatsi, wanditseho RBC, ufite indangururamajwi mu ntoki ze n'urupapuro, bari kuganira ku mikurire myiza y'umwana.

Munzu harimo abana benshi cyane, bambaye imyenda y'umuhondo, bicaye ku mukeka ufite ibara ry'ubururu, umuhondo n'umukara, hamwe n'umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umukara uri kubaha igikoma ngo banywe.

Abantu benshi cyane higanjemo ab'igitsina gore, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, bateruye abana bari kuba ibere biragaragara ko bari mu mahugurwa y'uko bakwita ku bana.

Inzu yo kwa muganga harimo abantu batatu, umugore uteruye umwana wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge, n'umuganga wambaye taburiya y'umweru uri kwandika umwana kugira ngo abashe kuvurwa.

Mu ishuri ry'inshuke harimo abana benshi bambaye impuzankano bicaye, harimo n'abantu bakuru, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, baje kugaburira abana ibiryo byujuje ubuziranenge.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo amarido y'icyatsi, hicayeho umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'umweru n'umukara, uteruye mwana, biragaragara ko, avuye kubyara.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane b'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikombe by'amatasi, birimo icyayi n'amakayi imbere yabo, bari mu mahugurwa yo kugira imitekerereze myiza.

Mu nzu harimo abantu batatu, babiri b'igitsina gore n'undi wigitsina gabo, umwe ari kwandika imbere ye hari impapuro nyinshi,n' abandi babiri bageze mu za bukuru.

Ahantu hari abantu bagera mu munani batatu muri bo bakaba ari abamansela bihaye Imana ndetse n'abandi bari kumwe nabo bagera muri batanu, hakaba harimo urubyiruko rugera kuri babiri ndetse n'abagabo bageze mu za bukuru batatu.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bambaye udupfukamunwa hari n'abafite ibitabo mu ntoki zabo n'icyapa kinini cyane bafashe kiri imbere yabo cyanditse amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Hanze munsi y'ibiti, hari abantu benshi cyane bari gucinya akadiho, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari intebe z'umweru inyuma hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho tumenye imikorere na serivisi zitangwa na isange wane sitopu senta.

Mu kigo ngorora muco harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda ya oranje, bambaye n'udupfukamunwa, imbere hari abantu bambaye impuzankano irinda abagororwa, imbere bafite icyapa kinini cyanditseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe mu ibara ry'umukara.

Hanze hari abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bose biyogoshesheje, bambaye imipira y'icyatsi, bafite ibitabo mu ntoki zabo, bari mu mahugurwa no kugirwa inama.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'undi muremure w'umuhondo, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi, acururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, hari n'ikinyabiziga cya moto hamwe n'igare.

Muri farumasi aho bacururiza imiti, harimo utubati twinshi dupanzemo imiti myinshi cyane ivura indwara zitandukanye, harimo n'umuntu w'igitsina gore, imbere ye hateretse mudasobwa.

Muri farumasi, ahazwi nk'aho bacuruza imiti myinshi itandukanye, harimo akabati k'umweru, karimo imiti myinshi itandukanye ivura n'indwara zitandukanye, kuri ako kabati gateretseho mudasobwa n'indi mashini itanga inyemezabwishyu.

Ahazwi nko ku ivuriro rivurisha ibimera, rizwi ku izina rya Dynapharm, ndahabona umuryango ufunguye ndetse hakaba hanashushanyije bimwe mu bikorwa bakora, harimo kumasa abantu ndetse no kuvura imitsi.

Inzu y'ubucuruzi yitwa farumasi bacururizamo imiti, harimo utubati twinshi turimo imiti itandukanye, iri mu bikombe, mu bikarito, ivura indwara zitandukanye, aho abantu baza bayigana kugira ngo bagure imiti ibavura.

Muri farumasi ahazwi n'aho bagurishiriza imiti kugira ngo abarwayi barwaye baze kuyigura, babashe gukira, harimo abantu babiri, umwe w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo, wambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hari akabati gapanzemo imiti itandukanye kandi myinshi.

Muri farumasi ahazwi nkaho bagurishiriza imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye, iri mu kabati ari myinshi cyane, aho abarwayi baza bayigana, kugira ngo bagure imiti babashe gukira. Ku meza hateretse mudasobwa.

Ahazwi nko muri farumasi. ahacururizwa imiti y'amatungo. Harimo akabati gapanzemo imiti myinshi, ivura indwara zitandukanye, ivura: inka, ingurube ndetse n'andi matungo menshi.

Inzu nyinshi z'ubucuruzi harimo icururizwamo imiti bita farumasi, harimo imiti itandukanye, imbere hari n'icyapa cyanditseho Ayivani farumasi rimitedi, hari na nimero wabashakaho kugirango babashe kuguha serivisi nziza.

Muri farumasi aho bacuruza imiti itandukanye, aho abashaka serivisi baza babagana kugira ngo bayibahe hari akabati karimo imiti myinshi itandukanye ivura n'indwara zitandukanye kugira ngo abantu baze babagana babashe gukira indwara barwaye.

Muri pharmacy ahazwi nk'aho bagurishiriza imiti, kugira ngo abarwayi baze babagana, bagure imiti kugira ngo bivure ,harimo akabati gapanzeho imiti itandukanye, n'umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru, n'itaburiya y'umweru ,uhagazemo.

Muri farumasi, ahazwi n'aho bagurira imiti, harimo akabati karimo imiti itandukanye, ivura n'indwara zitandukanye, harimo n'umuntu w'igitsina gabo, wambaye taburiya y'umweru, uri kubara imiti imbere ye, hirya ye hari imashini.

Muri farumasi aho bagurishiriza imiti itandukanye hari akabati karimo imiti itandukanye ivura n'indwara zitandukanye aho abarwayi baza bayigana kugira ngo bahagurire imiti babashe gukira.

Ni umuhanda w'igitaka harimo abantu benshi cyane igitsina gabo, igitsina gore, harimo abambaye imipira y'umweru n'abambaye amataburiya y'ubururu bafite icyapa kinini cyane imbere yabo cyanditseho "Birakureba, rinda umuryango wawe Malariya" mu ibara ry'umweru.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu nama yo kwita ku buzima, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari umuntu w'umugabo, uri kubabwira uburyo bakwita ku buzima bwabo.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye, imbere hari ameza ateretse amazi ya sosiyete y'Inyange, hari n'abafite mudasobwa imbere yabo, hari umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo uri kuvuga.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu rugendo rw'amahugurwa rwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'ahandi, aho buri wese afite uruhare rwo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bitandukanye, hirya y'umuhanda, hari ikigo cy'amashuri, gifite amashuri meza.

Isekuru izwi nk'igikoresho bakoreshaga kera basekuriramo ibintu bigiye bitandukanye, urugero: isombe, ubugari ndetse n'imiti ya kinyarwanda, ndabona isekuru y'ikibumbano ibumbye mu ibumba ndetse n'umuhini ukozwe mu giti, haragaragara amaguru y'umuntu uri gusekura ndetse n'intebe iri hirya.

Icupa ry'ikirahure rifite umupfundikizo w'icyatsi, ririmo umuti uvura wa kinyarwanda w'umuravumba, uvura indwara zitandukanye: anjine, kubabara umutwe, guhitwa, ibicurane ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Umuti bakoresha mu buryo bwa kinyarwanda bita umwenya uvura indwara zitandukanye aho uza kuwureba kugira ngo yivure indwara y'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, harimob' igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru , inyuma ye hari televiziyo iri kwaka ari kubigisha uko bakita ku buzima bwabo bukaba bwiza.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abantu batatu, umubyeyi uteruye mwana, harimo n'umuntu w'igitsina gabo, wambaye imyenda y'umweru, imbere ye hari ameza, ateretseho mudasobwa, ari kwandika.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu batatu, uw'igitsina gore uteruye mwana bari kumuvura n'undi uhagaze w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Uri gupima umwana kugira ngo arebe indwara arwaye. Hari n'ameza ateretseho igipimo gipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'umuti ukuraho mikorobe mu ntoki.

Inzu nini cyane, isi irange ry'ubururu, ifite icyapa kinini cyanditseho Girubuzima health post, kiriho umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, hanze hari na kandagira ukarabe, hateretse n'intebe z'urubaho, zicayeho abantu.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu babiri, umwe w'igitsina gore w'umurwayi n'undi igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru w'umuganga, ari kuvura imbere ye ku meza hateretse mudasobwa.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amatafari ahiye, yubakishije nanone amabati y'umutuku, hanze hari abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, hejuru handitse AER Diocese Kigeme, bari gufungura ku mugaragaro.